Mu ishuri ni ahantu bigisha ibintu byo kugira ngo babashe kwiteza imbere cyangwa se babashe kwihugura mu mutwe, babe batekereza neza mbere y'uko bafata umwanzuro wo gukora ikintu runaka babe bafite ubushobozi bwo kugitekerezaho neza.

Abangaba ni abanyeshuri bari kwiga ukuntu kuno kano kamashini gakoraga cangwa se uburyo bagakoreshaga, kugira ngo babashe kugakoresha. Bari no gukora na sitaje kugira ngo nibagera hanze bazabe bahugutse mu bintu byo gukora akazi.

Aha ngaha ho ni muri kaminuza nta banyeshuri bajya kwiga batambaye inifomo. Muri kaminuza niho bakunda kujya bariga batambaye inifomo. Abo mu yandi mashuri yo baba bambaye inifomo yo hasi.

Aka kangaka nyine bakitaga gakoresho bakoreshaga kuri kompiyuta ,bashaka kongera nka interinete y'imashini iri kugenda gakenya uhita ugashiraho ,cyangwa se imashini itari gusoma wifi uhita ugaterekaho igahita itangira gusoma wifi.

Uyu nguyu we ni umunyeshuri urikwiga ibijyanye no gukanika cangwa se gukora ibintu bijyanye na mekanike, ari amamodoka cangwa se amamashini, harimo amamashini gameza cangwa se amamashini gakoraga amasabune.

Abantu bitwa abaporombiye，ni abantu bakora umurimo wo kwita ku bintu bijyanye n'amazi，bakabasha gusana amatiyo yangiritse cyangwa se ahantu habuze amazi，bakajya barayoherezayo.

Abakanishi ni abantu bakora ibintu bijyanye n'amamoteri, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nk'amamodokaka, amakamyo cyangwa se n'ibindi byinshi, ariko n'abatekinisiye na bo bakunda kujya babita ngo ni abakanishi.

Mu mashuri ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, baje gushaka ibintu bijyanye n'ubumenyi ariko baba baturutse ahantu henshi hagiye hatandukanye mu duce dutandukanye.

Abafundi n'abayede ni abantu bifashishwa nko mu gihe hagiye kubakwa inyubako iba ari nini cyangwa se ntoya. Babifashisha bubaka nk'inyubako runaka. Umuyede akaba ari nk'umuntu ufasha umufundi amuhereza ibyondo cyangwa sima kugira ngo babashe kwihuta.

Abangaba nyine bajaga barabita bakameramani, nk'igihe umuntu abantu bari gushutinga filime cangwa se hari ibindi bintu bari gukora bahitaga bakoresha zira kamera niyo mpamvu babitaga bakameramani.

Aba ngaba ni abasuderi bakoraga umwuga wo gusudira inzugi, amadirisha, ibitanda by'ibyuma no gukora ibintu bijyanye n'ibisenge by'inzu byo mu byuma, nibyo babagamo.

Uyu nguyu we ni Kanyamugezi kuko uri kubona nyine akoraga ibintu bijanye n'amakandagirukarabe cyangwa se imigezi zo mu nzu bakarabiragamo nk'amaso cyangwa se intoki cyangwa se zino migezi baka bakundaga gukoresha bari koza amasahani.

Mu ishuri cyangwa se muri karasi ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye, baje gushaka ibintu bijyanye n'ubumenyi cyangwa se baje gutangira kwiga ibintu batazi na bo ubwabo.

Aba ngaba bo, ni abantu basudira ibintu bijanye n'inzugi cyangwa se amadirishya, n'ibindi bintu bitandukanye harimo n'ibitanda by'ibyuma , cyangwa se ibisenge by'inzu, cyangwa se n'ibindi n'imihoro.

Aba ni abantu bigaga shimi, bize amashimi ubona ko ari ubugenge ariko hari n'igihe baba ari abantu bize fizike kuko abantu bigaga fisike nibo bakundaga gukora udukoryo nk'utu ng'utu.

Aha ngaha ho bajaga barahita ahantu ho muri siberi kafe, nyine ni ahantu ujaga bakakwigisha ukuntu bakoreshaga imashini, cangwa se serivisi ushaka kumashini bakayigufasha ukayikora, cyangwa se niba ushaka kuba utiye imashini nimba uzi kuyikoresha bakaba bayigutijije.

Abafundi ni abantu bakora umwuga wo kubaka inzu, cyangwa se ibikorwa remezo harimo imihanda, harimo amazu ya leta n'ibindi byinshi bitandukanye, aho umufundi rero akaba ahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibice.